Abantu bari mu nzu bakaba bicaye mu ntebe akaba ari abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye kositimu y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, inyuma ye hakaba hari icyapa kinini.